Abantu babiri bafite umutego w'amafi, barimo bararoba. Hejuru yabo hari abandi bafashe kuri uwo mutego, bambaye imyenda itandukanye. Bamwe bambaye imyenda isa umukara na bote, bafite n'uturindantoki tw'ubururu, abandi barahagaze.

Abahinzi b'icyayi bari mu cyayi mo imbere barimo baragisarura, hari abazamuye amaboko barimo barishimira umusaruro, bamwe bambaye imyenda y'ubururu, abandi bambaye iy'umweru bafite udufuka barimo barasarura icyayi kirasa neza.

Amakarito atandukanye arimo imiti y'amatungo. Hari amakarito ashushanyijeho ihene, intama n'inka ateretse hafi aho ngaho. Andi macupa afite ibara ry'umutuku, ibara ry'ubururu, ibara rya pinki n'ayandi.

Ibihingwa by'ibigori biteye ku murongo. Ni ibigori bikiri bitoya, biteye mu buryo buringaniye. Hirya yabyo hakikijwe n'ishyamba ririho ibiti bitandukanye ndetse hari n'inzu iri mu ibara ry'umweru.

Imboga za dodo ni uruboga rwiza abantu barya kugirango bagire vitamine amaso yabo arebe neza, wegereye hafi y'inzu cyangwa se igipangu cyubakishije amatafari ahiye, n'imboga nyinshi za dodo ziyateye hamwe n'ibitunguru by'ibibabi.

Umurima munini uteyemo urutoki rwinshi, hafi yaho hari umurima udahinzemo ikintu na kimwe ukikijwe n'indabo, hafi y'urwo rutoki harimo inzu isakaje amabati y'umweru hari n'indabo ku irembo.

Igiti cyera imbuto z'imyembe. Ni igiti gishishe, gifite amababi meza arambutse. Inyuma yacyo hari ibindi biti bihateye ndetse n'utundi twatsi duke duke tugiye turi muri uwo murima.

Ikimera kimeze nk'umwumbati gifite amababi ameze nk'ay'umwumbati hafi yaho hari ibindi bimerara bitandukanye birambagira hasi, inyuma haturutse umuntu ufite ikirenge n'inkweto y'umukara.

Ishyamba rigari ririmo ibiti n'ibyatsi byinshi bitandukanye; ikirere kiri hejuru yacyo kirasa ubururu harimo ibicu bisa umweru. Ni heza cyane muri iri shyamba.

Urutoki rusa icyatsi rukijwe n'ishyamba, mu ishyamba mo hagati harimo inzu ebyiri zisakajwe amabati y'umutuku, zifite n'irangi ry'umweru, hakurya hari amazu menshi asakaje amabati y'icyatsi n'ibindi byinshi.

Umusozi munini uriho ibyatsi, ibiti, amashyamba atandukanye. Hari utwatsi dutoya ibiti bikuze hejuru, hari ikirere gisa ubururu, gifite n'ibicu bisa umweru.

Umugore wambaye ishati n'umupira w'ubururu ndetse n'ijipo yicaye hagati y'ibyatsi bimeze nk'ibikakarubamba, inyuma ye hari ibindi bimeze nk'umugano afashe ibyatsi mu ntoki.

Umugore ufite terefone wishimye ukenyeye agatambaro mu mutwe kariho amabara atandukanye yigitari n'umukara ndetse yambaye agakote n'agatisheti, arimo araseka rwose ibintu.

Umurima uteyemo ubwoko butandukanye bw'imboga harimo amashu, karoti n'ibindi. Ku ruhande rw'umurima hari ibiti birebire cyane bihakikije, mu murima hagati harimo imbarasasi ibihingwa biteye ku murongo.

Ni ubuhinzi bwo kuhira. Umugabo wambaye agadupfukamunwa, uhagaze wambaye inkweto z'umukara afite umupira arimo aruhira imbuto ze. Hirya hari amavoka.

Ni umurima w'ibigori, ibigori bibitse, hejuru hariho ibintu bigaragara nkaho ari byo buhirisha, hirya hari imisozi idahinze hamwe hari ubutaka gusa.

Inkoko nyinshi za saso ni inkoko zitanga umusaruro w'amagi menshi. Mu imbere aho ziri hari igikoresho gisa umuhondo. Izi nkoko harimo harakamo izuba rizimurikira.

Inkoko ntoya z'imishwi, ni iz'ubworozi bwa kijyambere. Ni inkoko zitanga umusaruro w'amagi, ndetse n'inyama. Imbere aho ziri, hari udukoresho bakoresha baziha amazi banazigaburira ibyokurya byazo.

Ni ikiraro cy'inkoko, kirimo inkoko kazi n'isake, aho zirira ndetse harimo inkoko z'umukara n'izifite amabara avanze umukara n'igitare ndetse harimo n'inkoko y'igitare, harimo n'izindi nkoko zifite irindi bara ryenda gusa n'ikigina. yego.

Abaganga babiri bambaye uturindantoki tw'ubururu, umwe afite icyuma arimo arabaga itungo risa umweru, bari no kurivura bafite ibikoresho bitandukanye.